Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa bisembuye harimo akabati karimo amacupa menshi ku ruhande bacanye televiziyo ntabantu barimo.

Ni ahacururizwa ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha hakaba hari ikirango kerekana uko wakwishyura ibyo wagiye ugura bitiriwe bikugora.

Icyapa kiranga ahantu hagurishirizwa ibinyobwa bisembuye. Kuruhande hari inzu isize amarangi y'umweru n'ibyuma bitukura, n'amabuye.

Ahatangirwa, serivise, z'ibinyobwa bisindisha, n'ibidasindisha, nta bantu barimo, hari akabati karimo imitako, hari n'intebe zisa umukara zifite n'utwuma.

Igitabo kigufasha gusobanukirwa ibiribwa n'ibinyobwa n'icyo wafata mu gihe utegereje ugufasha, ukaba watumiza icyo ushaka ukaza kwishyura igiciro wamenye neza wasobanukiewe.

Ahagurishirizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya, harimo inzu isize irangi ry'umweru, hahagaze hanze abagabo batatu, umwe utwaye ikinyamitende, undi uhagaze, wambaye umupira w'ubururu.

Icyapa ndanga kerekana ahacururizwa ibinyobwa bisukika bisembuye, hariho umugabo ufite icupa yarishyize ku munwa, icupa rindi ririmo inzoga rifunguye n'ikirahure ku ruhande.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye hari amatara abonesha cyane, hahagazemo abantu hari akabati karimo amacupa, imbere yako hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru.

Inzu igurishirizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, imeza ishasheho igitambaro cy'ubururu, abagore babiri bafite ibirahure birimo fanta n'ibiyiko ku meza.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, akabati, amatara arimo araka urumuri rwinshi, harimo amacupa menshi cyane, ku ruhande hicaye abagore babiri ku ntebe.

Ahagurishirizwa ibinyobwa bidasindisha harimo umugabo ubitanga, hirya ye hari imashini ikora icyayi ateruye igikombe mu ntoki ze.

Inzu icurururizwamo ibinyobwa bisindisha, ku ruhande ku rukuta hakaba hariho icyapa cyagufasha kubayoboka neza bakaba bakwakira.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye hakaba hari kwaka urumuri rutukura, hicayemo umugore ufite itumanaho mu ntoki, iruhande hari indabo.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisembuye, hari imeza iriho ibara ryijimye, amacupa ari mu kabati, hicaye umuntu umwe, n'ibirahure imbere ye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha ku ruhande hari abantu impande yabo hari itara n'ikirahure n'icupa risa icyatsi ariko impande y'iryo cupa ntamuntu uhicaye.

Ahagurishirizwa ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha, ariko nta bantu bicayemo, harimo amacupa mu kabati, n'intebe zisa umweru, n'ibara ry'icyatsi. N'imashini iri ku ruhande.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha, hakaba hacanye amatara, nta bantu barimo, hari intebe zifite irangi risa umukara, ku meza hashashe igitambaro gifite amabara atandukanye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, harimo amacupa ari mu kabati, imeza ifite irangi ritukura, icupa iri kumeza n'ibirahure bitatu.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bisembuye hanze hari icyapa gisize amarange atukura, gishobora kuyobora umugenzi wese waba ahagana akaba yahagera bitamukoye.

Ahatangirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari abantu benshi, ibiti, amabati asa icyatsi, n'abari kwakirwa.

Ahagurishirizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya ariko mukwishyura ukaba wakoresha ikarita utarinze kwishyura amafaranga mu ntoki, umukobwa uri kuyakira n'umugabo uri kuyamuhereza.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye, harimo abantu bicaye, benshi, barimo kuganira, amacupa ku meza, isize irange ry'umutuku, ku ruhande hari akabati k'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, hasi hashashe amabara y'umukara ndetse n'umweru, ku ruhande hari intebe isa umutuku, ndetse hirya hari abantu bahagaze, abandi bicaye.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisindisha, ku meza hariho icupa rifite ibara ry'icyatsi ku ruhande hariho ikirahure kirimo inzoga, hirya hari umugabo uhahagaze urimo urakoresha itumanaho.

Ahatangirwa serivisi z'ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha, hari abantu bahagaze barigukoresha itumanaho, bambaye babiri imipira y'umukara kuruhande hari amatara arimo araka.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa ibidasembuye hicaye abantu bane abagabo batatu n'umugore umwe, imeza ifite igitambaro cya orange n'indi ifite igitambaro cy'icyatsi amacupa arimo ubusa n'andi arimo icyo kunywa.

Inzu igurishirizwa mo, ibinyobwa bisembuye, imeza ifite ibara ry'igitaka, intebe zifite ibara ry'umukara, akabati karimo amacupa menshi n'urumuri rwaka umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye hari ameza ateretseho ibirahure, imbere yayo hari umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro itukura.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisindisha, hahagazemo abantu benshi, harimo n'ameza afite ibara ry'umukara, ku ruhande hari intebe ziticayeho abantu.

Urupapuro rwerekana ibicuruzwa n'ibiciro byabyo kugira ngo umuguzi abashe kubisobanukirwa neza yicagurire ibyo akeneye abe aribyo aza kwishyura.

Icyapa ndanga kikwereka ibiciro by'ibinyobwa cyangwa ibiribwa waba wafashe bikorohereza kumenya ibyo watumiza mu gihe waba utegereje uwagufasha.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, hari imeza isasheho igitambaro cy'umweru akabati gafite ibara ry'umukara karimo amacupa menshi ku ruhande hari intebe ifite ibara ritukura.

Inzu icururizwamo binyobwa bisindisha harimo umuntu uhagaze harimo kwakamo amatara asa icyatsi ku meza hataretseho icupa ririmo inzoga.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, hariho akabati k'umukara kuzuyemo amacupa, hari na televiziyo ariko aho hantu nta muntu n'umwe uhari.

Inzu igurishirizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, igitabo cyagufasha kumenya ibiciro bitakugoye n'ibyo wagura warya mu gihe ugitegereje umuntu wagufasha kuri ibyo urimo urareba.

Ahacururizwa ibyo kunywa n'ibyo ku meza hateretse isahani iriho ibiryo n'ikirahure kirimo inzoga, intebe ntamuntu uyicayemo isa umukara.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye harimo utubati turimo amacupa menshi hari urumuri rwinshi imeza ifite utwuma dusize irange ry'umukara ntabantu bicayemo.

Inzu igurishirizwamo ibisembuye, hari amacupa menshi nta bantu bahari, hari urumuri rumurika amabara atandukanye, umutuku, icyatsi hari n'akabati.

Ipikipiki iri mu muhanda w'amabuye ihetse umugenzi wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara ku ruhande hari imodoka iparitse, ku ruhande hari icyapa kiriho icupa n'ikirahure kiriho inzoga.

Inzu igurisha ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha hari icyapa ndanga cyakuyobora kuhagera hari amabuye ashashe hasi iruhande hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa ndanga cyerekana serivise zitangwa mu nzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, bisindisha n'ibidasindisha ushobora kugura umutobe w'amatunda.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha, harimo abantu ku meza hariho icupa rifite ibara ry'icyatsi, n'umugabo wambaye umupira ufite ibara ritukura.

Inzu igurishirizwamo ibyo kunywa, imyambaro ndetse n'ibyo kurya, icyapa cyagufasha kuhagera utayobaguritse, bikagufasha kuba wabona serivisi nziza ikunogeye.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha akabati karimo amacupa menshi, urumuri rwinshi, umugabo ufite itasi mu ntoki wambaye umupira w'umukara.

Abantu bari mu kabari benshi abasore n'inkumi bishimye bahuje urugwiro i ruhande rwabo hari amacupa y'icyatsi n'andi y'umweru arimo ubusa.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hari amatara y'umweru abagabo babiri bari guseka, intebe ziri ku ruhande zifite ibara ryijimye ndetse akao kabati karimo amcupa.

Inzu icuruza ibinyobwa bisindisha, hari amatara arimo araka, hanze hari intebe zifite irangi risa umukara nta bantu bahicaye.

Igitabo cyagufasha gusobanukirwa ibyo wakaka kugira ngo ubinywe cyangwa ubirye, bitewe n'uko wagiye urebaho mu gihe utegereje umuntu waba uje kukubaza icyo uri buze gufata.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisembuye harimo umugabo uhagaze ufite ibirahure mu ntoki, amacupa ku meza, akabati kuzuyemo amacupa agiye atandukanye.

Inzu igurishirizwamo inbinyobwa bisembuye, utubati dufite amabara y'umukara harimo amacupa menshi atandukanye ndetse hakaba nta n'umuntu uhicaye.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisembuye, akabati kari kwaka umweru, amacupa menshi, intebe itagize umuntu uyicayemo, imeza ifite ibara ryijimye.

Inzu igurishirizwamo ibisindisha harimo abantu benshi, amatara arimo araka harimo akabati karimo amacupa agiye atandukanye abaza kugura kugira ngo bayabone hafi.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha, harimo abantu babiri barahagaze, undi aricaye, intebe isize irange r'umukara, icanyemo urumuri rusa ubururu.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha, harimo intebe zifite ibara ritukura, kuruhande hari ameza, nta muntu numwe uhari usibye ibikoresho birimo.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, harimo abakozi batatu, umugabo umwe n'abagore babiri, bose barimo guseka.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha hari igitabo kiri ku kabati, amacupa menshi agiye atandukanye, umugore ufite itumanaho mu ntoki.

Ibinyobwa bitangwa buri munsi guhera kuwa mbere, kugeza kuwa gatanu, kandi buri gisindisha n'igiciro cyacyo bigendeye ku munsi.

Inzu ihurirwamo n'abantu benshi, bacanye amatara atukura, hari abagore, abagabo, bahetse ibikapu, abicaye, abahagaze.

Igitabo cyanditseho ibyo kunywa n'ibyo kunywa ndetse n'ibiciro byabyo ndetse umugenzi ugifite bikaba byamufasha kumenya ibyo ari bufate muri ibyo yarebyeho.

Inzu igurishirizwamo ibyo kunywa bisindisha n'ibyo kurya, imeza y'umukara iteretseho ikirahure kirimo inzoga ku ruhande hari agakombe k'icyuma.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisindisha nibidasindisha hari akabati karimo amacupa menshi iruhande rwaho hahagaze umukobwa uri kutwereka itumanaho arimo araseka.

Inzu itangirwamo ibyo kurya nibyo kunywa, hanze hari imodoka, ku ruhande hari imyenda ifite amabara umweru, umukara, icyatsi n'ibara ryijimye, icyapa kiriho irange ritukura.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisukika n'ibidasukika irimo abantu bamwe baricaye abandi barahagaze hari imeza iriho icupa isize irange ry'umukara.

Inzu igurishirizwamo ibisindisha by'ibinyobwa imeza irasa umukara hateretseho ibirahure bigera kuri bine ariko ntamuntu n'umwe ibyicaye iruhande.

Icyapa kerekana inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha, hariho umukobwa urimu urabyina n'umusore, n'icupa ririmo inzoga ku ruhande rwabo.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, akabati gasize irange ry'umukara, icyo babikamo inzoga, amacupa ari mu kabati nta muntu uhari.

Inzu, icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, harimo amacupa arimo inzoga ay' amazi, ndetse kuruhande har' ibikarito bipfundikiye.

Ahantu bacuruza ibinyobwa bisembuye ku meza hari amacupa abiri afite ibara ry'icyatsi n'ibirahure bibiri birimo ibinyobwa.

Igitabo wifashisha ureba ibiciro ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa byaba byanditseho, bityo bikagufasha kuba wacagura icyo uri bunywe uzi n'ayo uri bwishyure.

Inzu icururizwamo inyobwa bisembuye harimo abantu babiri, akabati karimo amacupa hari n'urumuri rwaka ubururu n'intebe zisize amarange y'umukara, hari abantu bicayemo.

Ahatangirwa serivisi z'ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha, hari icyapa cyikwereka ibyo bacuruzamo hariho icupa n'ibirahure bibiri.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, umusore ufite icupa mu ntoki, ari gusuka ikinyobwa mu gikombe, iruhande rwe hari ijage y'icyatsi

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, hari amatara arimo araka urumuri rw'icyatsi, hari n'ibyatsi ku ruhande, hari abagore babiri bahagaze n'imeza ku ruhande.

Ahatangirwa serivisi z'ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha harimo abantu babiri umwe aricaye undi arahagaze, ku ruhande rwabo hari intebe z'umukara haranacanye amatara.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha, akabati gafite ibara ry'umukara, n'aho babika izo nzoga, ntamuntu n'umwe urimo, hari honyine.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha harimo amatara abona cyane harimo abantu bahagaze umugabo umwe wambaye ishati ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara.

Ibiganza by'umuntu bifashe ku meza y'umukara iriho ibintu bitandukanye ibiyiko, amakanya ndetse n'ibirahure, hariho n'akandi kantu gasa umweru.

Ibiciro bimenyekanisha, ibiribwa n'ibinyobwa bigurishirizwa ahantu bigabanyijwe mu biciro bigiye bitandukanye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, harimo tereviziyo ebyiri zirimo ziraka, ku ruhande hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisindisha hahagazemo abantu batandukanye umugore umwe urimo uraseka ufite icupa mu ntoki ry'icyatsi yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye hari urumuri ruona cyane rw'umweru, ameza asize irange ry'umuka hahagazemo abantu, ku ruhande hicaye undi mi ntebe.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisindisha hicayemo abantu babiri, imeza ibegereye ifite ibara risa umukara n'intebe bicayeho zifite ibara risa igitaka.

Inzu itangirwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye ntabantu bahari, harimo ibikoresho by'umuriro, ikirahure kirimo inzoga, ku ruhande hari amacupa ane.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha, ari ameza n'intebe bisa, akabati kuzuyemo amacupa atandukanye, nta mukiriya uhari.

Inzu y'ubucuruzi, igurisha ibinyobwa bisindisha, harimo abantu, hari n'amatara yaka amabara atantukanye; ubururu, hamwe n'umweru.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bisembuye. Hari abantu bicaye barambuye amaguru ku ntebe, iriho utwuma tw'umukara. Hirya hari abantu begereye ku meza ziriho amarange y'umukara.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bisembuye n'ibyo kurya, hanze hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo umugore uhagaze imbere y'icyapa kiriho icupa ririmo inzoga.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisindisha n'ibidasindisha yicayemo abantu ku meza yo iri hino hicayeho umuntu warambitse isakoshi ye hasi, hakaba hacanye n'amatara.

Inzu icururizwamo ibyo kurya, hahagazemo umuguzi n'umucuruzi uteruye akajerekani mu ntoki, gafite ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo amata iriho utwuma dusize irange ry'ububruru n'umweru. Imeza iteretseho teremusi, ariko nta muntu n'umwe uhari.

Ikinyabiziga giparitse gifite ibara ry'umweru kuruhande hari umugore wambaye agashati gafite ibara ry'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi. Kuruhande hari inzu iriho ibyapa ndanga.

Inzu igurishirizwamo ibiribwa, birimo; imbuto, imineke, amaronji, ibinyomoro, biteretse kukabati kariho ibara ry'umweru.

Inzu igurisha amata, icyapa ishushanyijeho, ibinyobwa bidasindisha, imitobe y'amatunda, ku ruhande hari inzu isize irangi ry'ubururu.

Inzu icururizwamo amata, ibicuba hasi, akabati gafite irange ry'umweru, karimo ibikombe, abantu bahagaze, umugore ambaye umupira urimo amabara atukura.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, amata, imitobe y'amatunda ndetse n'inanasi n'amaronji, akabati gasize ibara ry'umweru n'ubururu, ku ruhande hahagaze umugore wambaye ikanzu.

Inzu itangirwamo amata hicayemo abana babiri bari kunywa hari utujerekani rubiri dufite ibara ry'umweru n'ijagi kuruhande umugabo uhagaze wambaye umupira.

Inzu icururizwamo amata, harimo imashini iyakonjesha, imbere yayo hari imeza iriho igitambaro kiriho amabara atandukanye, umweru ndetse n'umutuku, hariho n'intebe, imbere yaho hari umugore uhagaze uri kuvugisha undirimbere, hari n'indobo zirimo amandazi zipfundikiye.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'ibitaka, nta muntu uyitwaye, ku ruhande hari umugabo wambaye inkweto zifite ibara ry'ubururu.

Injerekani ebyiri zisa umweru ntakintu kirimo zibitse mu kabati ku ruhande hariho amatafari ahiye n'igitambaro cy'ubururu.

Isahani iteretse ku meza, ifite ibara ry'umweru hariho umurundo w'amandazi menshi, abiri ashunnyeho, ayandi aracyari mazima ntayashunyweho.

Inzu itangirwamo amata hari imashini ikonjesha amata iruhande rwayo hari umugore uhahagaze wambaye ikote ry'umukara n'ijipo irimo amabara y'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bituruka ku matungo harimo amata, imashini iyakonjesha, umugabo uhagaze urimo urasuka wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara.

Inzu icururizwamo ibiribwa hari indobo ebyiri ziri ku meza zipfundikiye, imwe irimo amandazi, indi irimo keke, hirya yazo ku muhanda hari umuntu uri kuhagenda.

Inzu ugirishirizwa mo amata, harimo imashini iyakonjesha, i ruhande hari intebe ifite ibara ry'ubururu, umugore ufite itumanaho mu ntoki, ku ruhande hari itasi irimo amata.

Inzu igurishirizwamo amata hari ibicuba bigera k'umunani byegetse ku gikuta kugira ngo habe haza abantu baza kugura ayo mata babone uko babakira.

Ahantu hagurishirizwa ibyo kurya harimo capati hari ameza y'umweru n'isahani y'umweru n'ikiganza cy'umuntu gifashe icyo kurya hari n'idirishya ry'ikirahure.

Ni icyapa ndangahantu umuntu akoresha arangira ushaka kuhagera, ibicuruzwa, ibisukika, amazi, amata, imitobe.

Inzu igurishirizwamo amata imyuma isize irange ry'ubururu mo imbere harimo akabati gafite ibara ry'umweru nariko nta muntu uhagaze uje kwaka iyo serivise.

inzu icururizwamo amata harimo imashini ikonjesha kuruhande hari akabati karimo amajerekani afite ibara ryumweru menshi.

Inzu igurishirizwamo amata, harimo imashini ihakonjesha, umugore wicaye wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, akajerekani k'umweru kari ku meza.

Umurundo w'amandazi menshi ari ku isahani ifite ibara ry'umweru abiri ashunnyeho ayandi aracyameze neza.

Inzu icururizwamo amata imashini iyakonjesha, umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ufite ijagi ifite ibara ry'icyatsi mu ntoki urimo urasuka mu kajerekani gateretse ku meza.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bidasembuye, harimo; ikawa, icyayi, n'imitobe ya kizungu kuruhande rw'iburyo hateretse imashini ikonjesha ibyo kunywa.

Inzu igurishirizwamo amata, harimo imashini iyakonjesha, iruhande hari ameza abiri afite ibara ry'umukara, nta muntu n'umwe urimo, hari honyine.

Inzu igurishirizwamo amata, akajerekani gateretse hasi, abantu babiri bahagaze umwe yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ishati, ari kuruhande imeza.

Inzu igurishirizwamo ibyo kunya bidasembuye, harimo amata etajeri irimo utujerekani twinshi duto dufite ibara ry'umweru, ku ruhande hari ahandi babikamo ayo macupa yaguriwemo amata.

Inzu y'ubucuruzi ushobora kuboneramo ibicuruzwa byo guteka harimo amagi hahagazemo umuntu wambaye umupira ufite ibara ritukura.

Inzu igurishirizwamo amata, harimo umwana utife itumanaho mu ntoki, inyuma hari umugabo urimo uraseka, wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu.

Inzu icururizwamo amata intebe y'ubururu n'indi y'umweru, teremusi ziteretse ku meza umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara atandukanye.

Inzu igurishirizwamo amata hari intebe ku ruhande isa ubururu umugore wicaye, ku meza hariho igitambaro gifite amabara atandukanye n'itasi iteretseho.

Inzu igurishirizwamo amata irimo ibicuba byinshi ntamuntu n'umwe uyirimo yaba uhabwa serivise ndetse n'uyitanga ntanumwe.

Imigati, ipakiye ahantu hamwe, irambitse ku meza, ifite ibara ry'ijimye, ku ruhande hari agatambaro gafite amabara atandukanye, umweru ndetse n'umutuku.

Ibiribwa biri ku meza ifite igitambaro cy'ubururu n'ibara ry'umweru biri mu mapaki yabugenewe ane agerekeranye ariho ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi igurishirizwamo amata, muri firigo harimo utujerekani tubiri tunini, turimo amata n'amazi yo kunywa.

Inzu igurishirizwamo amata irimo abantu bahagaze bategereje, ijage iteretse ku meza, umugore urimo arasukamo akoresheje indobo ifite ibara ritukura n'ijerekani ku ruhande.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bikomoka ku matungo amata, ku ruhande hari intebe ifite ibara ry'ubururu, umuntu ucigatiye keke yashunnyeho.

Icyapa ndangahantu, cyerekana ahagurishirizwa amata, gifite amabara y'ubururu, hari umukobwa wicaye ku ntebe y'umweru, hanze hari imodoka iparitse.

Inzu igurishirizwamo amata. Harimo imashini iyakonjesha, ku ruhande hari intebe iticayeho umuntu, hino hari ameza ariho umufuniko w'indobo.

Inzu icururizwamo amata irimo akabati ku rukuta rusizeho irangi ry'umweru, icyapa cyagufasha kuyoboka ukamenya n'ibicuruzwa bicuruzwamo aho ngaho, ibicuba hejuru.

Inzu igurishirizwamo amata hari n'imashini iyakonjesha, ifite ibara ry'umweru, hari akabati ku ruhande, kariko amacupa arimo amazi hari n'intebe y'umweru.

Umucuruzi arimo gusuka amata mu ijage umukiliya yari amuzaniye, aho ari kuyasukira hari amadirishya asa ubururu, ku ruhande hari akajerekani gasa umuhondo.

Inzu itangirwamo amata, harimo intebe ifite ibara ry'ubururu, igitambaro giteguye ku meza kirimo amabara atandukanye arimo umukara n'igitaka, hariho isahani iriho irindazi n'icyo gufatisha iryo rindazi.

Inzu icururizwamo amata ihagazemo umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu, akajerekani gateretse ku meza karapfundikiye, karimo amata gategereje ugatwara.

Inzu icururizwamo amata harimo icyuma kiyakonjesha, intebe ifite ibara ry'ubururu, umugore wicaye ku ntebe, kumeza hariho itasi irimo amata.

Ikeke zirundanyije ahantu hamwe ku isahani ifite ibara ry'umweru, iteretse ku meza y'umukara, ku mpande hateretse udusahani duto, tubiri tw'umweru.

Imeza isa umweru iteretseho isahani iriho amagi atatu n'agacupa ka purasitike, hirya yaho hari irindi cupa riharambitse rifite umufuniko utukura.

Inzu ifunguye imiryango, ifite ibara ry'ubururu, hanze haparitse imodoka nini iriho irange ry'umweru, hakaba hari icyapa kikuyobora kuhagera vuba bitakugoye.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bituruka ku matungo, amacupa amenshi agiye atandukanye, amanini n'amatoya, biteretse ku meza umuntu akaba yaza akicaguriramo iryo ashaka.

Inzu itangirwamo amata harimo umugore uhagaze ufite ijage, ku ruhande hari indobo ifunguye, imeza ifite ibara rya kaki.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa, harimo abagore babiri umwe arahagaze undi aricaye, hari isahani irimo ibiribwa n'igikombe kirimo ibinyobwa aba ari byo bari kunywa.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, hari akabati karimo agakoresho kabika amagi gafite ibara ritukura, hariho igipapuro kirimo amandazi.

Ni inzu isize amarange y'ubururu ifungiyemo amacupa agurishirizwamo amazi yo kunywa ku bantu bagiye batandukanye, baza kuyagura kugira ngo bayakoreshe mu ngo zabo.

Inzu itangirwamo amata harimo imashini iyakonjesha hirya hariho icyapa kiriho utujerekani dutatu dufite imipfundikizo itukura.

Inzu icururizwamo amata harimo ibikoresho bigiye bitandukanye amajagi, indobo, amandazi ari mu kabati.

Inzu igurishirizwamo amata. Harimo imashini iyakonjesha, hari intebe y'umweru, imeza, akabati karimo amajerekani aryamye.

Inzu igurishirizwamo ibyo kunywa bikomoka ku matungo, imeza ifite ibara ry'umweru iteretseho agakombe, nta muntu uhari, hari igikuta kirimo amatafari.

Inzu igurishirizwamo amata harimo abagabo babiri n'umugore umwe wicaye ufite itasi imbere ye ku meza ariho igitambaro gifite amabara atandukanye umweru move ndetse n'umukara.

Inzu igurishirizwamo amata, imeza ishashiho igitambaro gifite ibara ry'umweru, umugore umwe, inyuma hari firigo, hari utujerekani duteriretse iruhande.

Inzu icururizwamo amata harimo imashini iyakonjesha, ifite irange ry'umweru n'ubururu, hasi hari injerekani, iruhande hari indobo idapfundikiye, hirya kurundi ruhande hari intebe z'umweru.

Inzu itangirwamo ibyo kunywa harimo akabati gateretseho teremusi n'akajerekani, harimo umugore wambaye ingofero ifite ibara ry'igitaka n'ishati irimo amabara y'bururu avanzemo n'umuhondo n'umweru.

Inzu icururizwamo amata, umuntu ufite ijage mu ntoki urimo arasuka mu itasi, ibikomba hirya ye bya parasitike bifite amabara atandukanye, umutuku, icyatsi, ndetse n'uburu, hajuru hari ibyapa byanditseho amagambo ashobora kugufasha kumenya ibikorerwamo aho.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bikomoka ku matungo harimo imeza isize irange ry'umweru iteretseho itasi ririmo amata.

Inzu icururizwamo amata, umugore urimo arahagaze, yambaye ishati ifite ibara ry'umukara, akajerekani mu ntoki, arimo arasuka mu matasi ateretse ku isahani.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye harimo; imitobe y'imyembe, iy'amatunda ndetse n'amazi akabati gateretsemo amacupa menshi.

Inzu icururizwamo amata imeza ifite ibara rya kaki, indobo ebyiri ziriho zipfundikiye imipfundikizo ireba hejuru, umuryango urafunguye nta muntu uhari.

Umuntu wicaye ahatangirwa serivise zibyo kurya, imbere ye hari ibikombe bibiri kimwe kirimo amata, ikindi kirimo icyayi hari n'amandazi imbere ye ku isahani n'igitambaro kirimo amabara.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, amata, imitobe, amazi, akabati gafite ibirahure harimo isahane irimo amandazi ifite ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasindisha harimo imitobe, fanta, amata. Akabati umukobwa agatsikamyeho wambaye ikote ry'ikoboyi, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Inzu icururizwamo amata, hashashe amakaro y'umweru, hariho utujerekani dutanu tw'umweru ndetse n'akandi kari hirya gafite ibara ry'umuhondo.

Indobo iteretse hasi isa umweru, ifunguye, mo imbere harimo amandazi abiri, n'igifatisha ayo mandazi, iruhande hari intebe y'umweru.

Inzu igurishirizwamo amata, hakaba harimo igikoresho gikonjesha kandi gifite ubushobozi bwo kuyabika igihe kirekire.

Inzu icururizwamo amata, indobo ziri ku meza ebyiri imwe irubitse indi irapfundikiye akabati gafite ibara ry' ubururu harimo amacupa arimo amazi.

Inzu itangirwamo ibyo kunywa n'ibyo kurya, harimo abagabo babiri, umwe ateruye akajerekani mu ntoki, harimo indobo eshatu zipfundikiye harimo amandazi n'imigati.

Inzu icururizwamo amata, imashini ikonjesha, imeza y'ibirahure, intebe ku ruhande, akajerekani k'umweru; umugore uhagaze wambyae ikanzu itukura.

Inzu itangirwamo ibisukika bidasembuye, amazi, umutobe, umata harimo n'ingunguru isigishije irangi ry'ubururu handitseho amagambo y'umweru.

Icyapa ndanga kerekana uruganda rukora imitobe igiye itandukanye harimo iy'amatunda ku ruhande hariho amagambo yanditseho, afite ibara ry'umweru.

Inzu icururizwamo amata harimo imashini ebyiri zikonjesha, hajuru yazo hariho ijagi irimo ubusa, hasi hari indobo ifunguye, imbere hari imeza ifite ibara ry'umweru.

Inzu igurishirizwamo amata harimo imeza isize irange ry'umukara, n'umweru, hari inteba ebyiri, n'icyapa gishushanyijeho utujerekani turimo mata.

Inzu itangirwamo amata irimo abantu babiri umugore umwe wambaye ikote ry'umukara n'ijipo y'umweru irimo andi mabara, n'umusore umwe wambaye umupira w'ubururu ku ruhande hari akabati k'umweru karimo amacupa y'ibinyobwa bidasindisha.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bidasembuye aazi, amacupa menshi ari ku meza afite imipfundikizo y'ubururu, imeza ifite ibara rya kake.

Inzu igurishirizwamo amata hariho ibikombe bibiri ku meza, akajerekani kamwe ku ruhande hari intebe, nta muntu urimo haba ugurisha haba n'ugura.

Inzu icururizwamo amata, imashini iyakonjesha, icyapa cyagufasha kuyoboka neza, abagore babiri bambaye imipira ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero bisa.

Iyi nzu icururizwamo ibinyobwa bikomoka ku matungo, amata, harimo umugore wicaye, ufite itasi imbere ye irimo amata, ndetse ku meza hari n'igitambaro gifite amabara atandukanye.

Inzu itangirwamo amata irimo imashini iyakonjesha, hari amakaro asa umweru igikuta hirya y'imashini gisa umweru ntamuntu urimo bakira.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye amata, imitobe, amatunda, amaronji n'inanasi, akabati gasize ibara ry'umweru n'ubururu imbere yako hahagaze umugore wambaye ikanzu ufite isakoshi y'umukara.

Inzu igurishirizwamo amata, harimo abagabo babiri n'umugore umwe bicaye, ku ntebe zifite ibara ry'umweru, ku meza hariho igitambaro gisa igitaka, amajagi abiri, afunguye arimo amata.

Inzu igurishirizwamo amata, hahagazemo umugabo umwe n'umugore umwe wambaye agapira k'umweru, imashini iyakonjesha, iteretsweho ijage idapfundikiye, itarimo n'ikintu.

Inzu itangirwamo amata hari imashini ebyiri ziyakonjesha, hasi hashashe amakaro afite ibara ry'umweru, hirya hari idirishya riri guturukamo urumuri ruva hanze.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bituruka ku matungo harimo amata ndetse n'imitobe itandukanye n'imeza iteretseho utujerekani turimo amata.

Inzu icururizwamo amata, harimo abantu bari kwerekana ibirahuri bigera kuri bitandatu, munsi yabyo hari amasahani ari kumeza ateretseho keke zo kuba bafatisha icyo cyo kunywa bahaguze.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bikomoka ku matungo harimo amata. Imeza ifite ibara ry'umweru iteretseho isahane iriho ubusa, n' ikirahure kirimo amata.

Inzu igurishirizwamo ibyo kunywa bikomoka ku matungo, amata, hicayemo abantu, intebe z'umweru n'ameza, ikirahuri giteretse ku meza kirimo amata.

Inzu icururizwamo amata, hari akabati karimo ibikarito gasigishijwe ibara ry'ubururu akandi gafite ibara ry'umweru harimo amatasi hamwe n'amasahani.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bituruka ku matungo harimo amata akabati kateretseho, amajagi ari gusukwamo amata, indobo itukura ndetse n'ijerekani ku ruhande.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye amata, hanze hari icyapa kigufasha kuhayoboka neza utayobye, imbere harimo akabati gateretsemo utujerekani.

Inzu icuruza amata harimo icyuma kiyakonjesha akabati gasize irangi risa ubururu umugabo wicaye ku ntebe rifite ibara risa umweru ijage irimo gusukwamo amata.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bidasembuye, harimo amata, harimo akabati gasa umweru, ku ruhande harimo amacupa arimo ibyo kunywa.

Inzu igurishirizwamo ibinyobwa bituruka ku matungo, amata, imashini iyakonjesha, umugore uhagaze impande wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku.

Inzu igurishirizwamo amata irimo imashini iyakonjesha, hasi hari injerekani y'umweru, ku ruhande hahagaze umwana ufashe ku kabati gafite ibara risa ubururu.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bikomoka ku matungo, harimo umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umuhondo, imeza isize irange ry'umweru iteretseho isahani, iriho keke ndetse n'amakanya yo kurisha.

Inzu igurishirizwamo amata irimo icyuma kiyakonjesha, uwicaye impande y'akabati, umugore uri hino ufire itumanaho mu ntoki ku ruhande hari ntebe ifite ibara ry'ubururu.

Inzu itangirwamo amata, imeza y'umweru, iriho ijage n'umufuniko usa ubururu, umugore uteze igitambaro gifite amabara: umukara, icyatsi, yambaye n'ipantaro ifite ibara ritukura.

Ahatangirwa serivisi zitumanaho hari icyapa gishushanyijeho amagambo ashobora kukuyobora ukaba wahagera bitakugoye hari abagabo barimo kubyina umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Akazu gatoya, gatangirwaho serivisi z'itumanaho, karafunze amadirishya yose, n'umuryango wako urafunze, iruhande hari icyapa, ku rundi ruhande rwo ruguru hari ibiti, bifite amashami menshi.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hari abantu benshi; abagabo n'abagore bambaye ikanzu ifite ibara ritukura, icyapa cyakuyobora kuhagera neza utayobye.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, gafite ibara ry'umuhondo, hahagazemo abagabo babiri, undi aricaye arimo arabafasha ku bibazo byabazanye.

Akazu gato, gatangirwamo serivisi z'itumanaho, gafite ibara ry'umuhondo, amadirishya yose arafunguye, nta muntu uhari n'umwe yaba utanga serivisi n'uyihabwa.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gafunguye amadirishya gafite ibara ry'umuhondo gashagawe n'abantu benshi abagabo abagore urimo imbere ahugiye ku itumanaho.

Inzu itangirwamo serivizi z'itumanaho harimo abantu, abagabo, abagore, akabati k'umweru ndetse n'icyapa kiriho ibyanditswe.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, abagabo babiri bahagaze, umugore umwe wicaye, hari mudasobwa ebyiri, ku meza y'umukara hariho igitabo gifite ibara ry'umuhondo.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hahagaze abakobwa babiri mu mutaka ufite amabara y'umuhondo, hirya hari abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, imiryango irafunguye n'amadirishya, hasize irange ry'umuhondo, hahagazemo umugore, ku ruhande hari inzu isize irange ry'umutuku.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, umugabo uri ku igare wasetse, wambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze, bicaye, hari n'akabati.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gasize irange ry'umutuku, amadirishya afunguye, icyapa kiri inyuma kiriho umukobwa urimo uraseka wishimye.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gakinguye amadirishya yose n'umuryango gafite ibara ry'umuhondo n'ubururu harimo umugabo umwe ufite ibitabo hanze ntamuntu uhari.

Akazu gato gata girwamo serivise z'itumanaho gafite amabara y'umuhondo harimo umukobwa uri guseka wambaye ishati y'umweru utegereje uwo yakira.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho isize amarange atukura, hicaye umugore, akabati gasize irange ry'umweru icyapa ndanga cyakuyobora.

Utuzu dutoya tubiri twegeranye, utangirwamo serivisi z'itumanaho. Kamwe gafite ibara ry'umutuku karafunguye imiryango yose, karimo umugabo umwe. Akandi gafite amabara y'umuhondo.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho haparitse imodoka n'abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo ufite itumanaho mu ntoki ku ruhande hari imashini.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho hari abakobwa bane, batatu barimo imbere undi ahagaze hanze yambaye ijipo ifite ibara ry'igitaka ashushanyijeho ku cyapa itumanaho.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, idirishya rirafunguye, umuryango urafunze, karasa umuhondo, umugabo ahagaze hanze wambaye ipantaro y'umukara ategereje uwamwakira.

Umuntu wicaye uri gukoresha serivise zitumanaho yambaye udukufi kukuboko turiho udusaro kuruhande n'umusaraba.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, akabati k'ikirahure, abagabo batatu; umwe arimo guseka bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo.

Akazu gato gakorerwamo serivise z'itumanaho, imiryango ifunguye, nta muntu urimo, gafite ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari inzu ndetse n'ibyatsi hasi.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho isize amarange y'umuhondo, amadirishya abiri afunguye, abagore babiri umwe ari mu nzu arimo araseka undi ari hanze.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho gafite ibara ry'umutuku, amadirishya arafunguye n'imiryango hahagaze abagabo hanze n'umugore umwe barimo bararamutsanya.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho, gafunguye amadirishya yose, gafite ibara ry'umuhondo mo imbere hahagazemo umugore hanze hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo utwuma dusize amarange y'umukara, umugabo uhagaze, wambaye umupira w'utukura, ufite itumanaho mu ntoki, n'umugore ufite ishashi mu ntoki, isa ubururu.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hahagaze abasore batatu bambaye ingofero n'imipira isa umuhondo, iruhande rwaho hari ikirango cyamamazaho ibyo wahasanga.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho amadirishya yose arafunguye afite irange ry'umuhondo hanze hahagaze abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ipantaro n'umupira w'umukara.

Inzu itangirwamo serise z'itumanaho harimo utubati tubiri dusize irange ry'umutuku, ku ruhande hari icyapa kiriho abagore babiri barimo guseka.

Ahantu hatangira serivisi z'itumanaho hari utwuma tw'umukara icyapa kiranga gifite amabara y'umuhondo kuruhande hari ibititi bifite amashami menshi.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho karafunze ahantu hose gasizwe irange ry'umuhondo ntamuntu numwe uhari inyuma yako hari ibyatsi.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho n'izindi z'amafaranga, akabati gasize irange ryijimye umugabo wicaye n'undi muntu uri haruguru ye wambaye agapfukamunwa gatukura.

Ku kazu gatangirwaho serivise z'itumanahi haparitse imodoka y'umukara n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ipikipiki iri imbere ye ifite ibara ry'umuhondo.

Inzu icururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, harimo inyanya, hari umugabo uhagaze, ufite itumanaho mu ntoki urimo guseka, wanezerewe ugiye kwishyura.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, imeza y'ikirahure izengurukijwe n'umweru, icyapa kiriho ibyagufasha gusobanukirwa neza ikikuzanye mu nzu.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho ku meza hariho ibyapa biriho inomero zitandukanye n'amudasobwa ebyiri zirimo ziraka zombi.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hahagaze abantu batatu, abagabo babiri, n'umugore umwe, undi ari cyaye batatu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru n'umuhondo.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho amadrirshya arafunguye, gasize irange ry'umuhono mo imbere hari umugore umwe, hanze hari undi mugore ku ruhande har igiti kirimo amashami.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho, icyapa ndanga cyagufasha ibyakenerwa byose kugira ngo ubashe kubihabwa bitakugoye.

Mu kazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho gafite amabara y'umuhondo gafunguye amadirisha harimo umuntu uhagazemo imbere ye hari igitabo yandikamo.

Mu nzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abantu bane, abagore batatu n'umugabo umwe uhagaze wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, umugore w'undi yicaye ku ntebe wenyine abandi barahagaze.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, gafunguye imiryango yose gafite ibara ry'umuhondo harimo umugore mo imbere hanze hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gasize irange ry'umutuku karafunze, iruhande hari abantu bahahagaze, hari imodoka isize irange ry'umweru n'umugore wicaye ku gatebe wambaye isengeri y'umuhondo.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hari umutaka uhagazwemo n'abagabo babiri, umwe ahetse igikapu gifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari inzu ndende iriho ibyapa bitandukanye.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, imiryango ifunguye ifite ibara ry'umuhondo, hanze hahagaze umugore ufite igipapuro mu ntoki gisa kaki.

Akazu gato gatangirwamo serivisi zitumanaho gafite ibara ry'umuhondo, gakinguye amadirishya yose hari impande abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo bamwe bambaye ishati itukura.

Umukiliya arahagaze ahatangirwa serivise z'itumanaho ari imbere y'abakozi babiri bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, umwe yicaye undi arahagaze, basa nk'abari kumufasha ku kibazo yaba afite, bakoresheje mudasobwa.

Ikimenyetso kikwereka ko uwo woherereje amafaranga yamugezeho ukoresheje ikoranabuhanga utarinze kuyamuhereza mu ntoki, icyo ureba ni amazina na nimero wayoherejeho.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho isize irange ry'umuhondo iriho icyapa ndanga hashagawe n'abantu benshi bamwe bahagaze mu nzu abandi bahagaze hanze.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho irimo imeza isize irange ry'umukara, icyapa cyanditseho amagambo ashobora kuba yakuyobora nta muntu uri muri iyi nzu.

Umuntu ufite itumanaho mu ntoki ririmo riraka, undi aryandikiraho. Inyuma ye hari icyapa kiriho ibirango byagufasha kuba wakwishyura amafaranga y' ibigurwa waguze.

Izu ikorerwamo serivise zo kwakira amafaranga no kuyohereza irakinguye imiryango isigishije ibara ry'umuhondo, babiri barimo imbere umwe ari hanze yambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umukara.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho, amadirishya arafunguye afite ibara ry'umuhondo, mo imbere harimo umugore, hanze hari abagabo, umwe yambaye ishati itukura n'ipantaro.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho, amadirishya yose arafunguye hanze hahagaze abagore babiri undi arimo imbere wambaye agapira k'umweru, undi yambaye umupira w'umukara.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hari icyapa cyagufasha gusobanukirwa neza abagabo babiri, bahagaze imbere y'ikinyamitende bishimye bari gusobanurirana uko babigenza.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hari icyapa cyagufasha gusobanukirwa, iruhande haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara, umugore urimo uraseka, wambaye ikanzu irimo amabara. Y'umutuku ndetse n'umuhondo.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hahagaze abagabo babiri umwe arimo aratwereka itumanaho yahaguze, undi ari ku ruhande rwe yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo n'ingofero y'ubururu urimo uraseka.

Ahatangirwa servisi z'itumanaho, hicaye abantu benshi, imbere hari undi mukobwa ubataramiye, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Akazu gatangirwamo serivisi z'itumanaho, gafite ibara ry'umuhondo, amadirishya yose arafunguye, harimo umugabo utegereje uwamugana ngo amufashe.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho umuryango ufunguye hicayemo umugore wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umuhondo, hanze hari akana karimo karagenda.

Akazu gato, gatangirwamo serivisi z'itumanaho, amadirishya yose arafunguye, mo imbere harimo umugore, hanze hari abagabo babiri, umwe ahetse igikapu gifite ibara ry'umukara.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho harimo abakira n'abakirwa bicaye kuri murandasi, umumama uhagaze wambaye ijipo y'umukara n'ishati irimo amabara atukura ndetse n'icyatsi.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gafunguye amadirishya, gafite irange ry'umuhondo, harimo umugabo umwe urimo urandika, hanze hari umugore urimo uriguseka.

Umuntu ahagaze kuri sitasiyo ahagurishirizwa ibikomoka kuri peteroli, arimo kwishyura akoresheje itumanaho rye kugira ngo abashe kwishyura.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ufite itumanaho mu ntoki riri kwaka ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari amakaro afite ibara ry'umweru, inkweto z'umukara.

Inzi ifite ibara ry'umuhondo itangirwamo serivisi z'itumanaho, kohereza amafaranga, kuyakira iruhande hakaba hahagaze umuntu uri gukoresha itumanaho avugana n'undi.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abantu, abagabo, umugore wicaye wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, igiseke kirimo amabara y'icyatsi, ndetse n'umukara na mudasobwa ku meza.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hari abagore babiri bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'ubururu, imbere yaho hari imeza ifite ibara ry'umweru.

Umuntu ufite itumanaho mu ntoki, arimo gukandamo imibare igiye itandukanye, kuruhande hari amakesi ari ku murongo afite ibara ritukura, ku gikuta hariho irange ry'umweru.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho, hari igitambaro cy'umuhondo, abantu batandukanye abagore bahagaze, undi aricaye, icupa ku meza ririmo amazi, bambaye imipira y'umweru.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hari abagabo benshi bambaye imipira itukura, n'ingofero z'umutuku, hari imeza isizeho irange, icyapa ndanga cyagufasha kuhayoboka neza.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hari abantu benshi baje kwaka ubufasha harimo umukobwa wambaye umupira utukura n'ipantaro y'ikoboyi n'ishakoshi y'umukara.

Umuntu nufite itumanaho mu ntoki inyuma hari irange risa umukara mo imbere muri iryo tumanaho haragaragara urumuri rusa umweru.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho akabati gafite ibirahure, abagab batatu, umwe bari kwereka undi yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho hariho icyapa cyagufasha kuba wakwishyura ukoresheje inomero ziriho.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho harimo abagore batatu, imeza isize irange ry'umukara n'umutuku, umugore yambaye ipantaro itukura n'umupira w'umuhondo.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho isize amarange y'umweru n'umukara, hanze hateretse amaradiyo, hahagaze umugabo wambaye imyenda y'imikara, abandi bakozi bari kuri mudasobwa.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho hari akabati gasize irange ry'umuhondo, umutaka ufite ibara ritukura, umugabo wambaye ishati irimo amabara atandukanye uri guhereza undi itumanaho.

Akazu8 gato gatangirwamo serivise z'itumanaho, amadirishya n'umuryango birafuguye, gafite ibara ry'umuhondo, harimo umuntu imbere hanze hari amazu afunguye arimo abantu.

Akazu gatoya, gatangirwamo serivisi z'itumanaho, kari ku muhanda, karafunze amadirishya yose, iruhande rwako hari ibiti birimo amashami menshi cyane.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abantu benshi, isize amarangi y'umuhondo, imbere y'uwicaye hari mudasobwa, imeza ifite ibara ry'umweru.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho gafite ibara ry'umuhondo karafunze imiryango yose n'amadirishya hanze hahagaze umugabo n'umugore barimo guseka.

Akazu gatangirwamo service zitumanaho, imbere hahagazemo umugabo uri kwakira umugore arimo kumwandika mu gitabo kugira ngo amufashe.

Inzu itanga serivisi zitumanaho harimo abantu bane abagabo batatu n'umugore umwe wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo uri gusobanurira mugenzi we umwegereye kuruhande.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho, abantu babiri bari kwerekana ibyo bareba, umugore umwe wambaye umupira ufite ibara ritukura, imeza iteretseho itasi n'itumanaho.

Inzu itangirwamo serivise z'itumanaho, umugabo wicaye ku ntebe y'umweru ufite ishakoshi y'umukara wambaye imikufi ku kaboko ke iriho amasaro menshi.

Icyapa kigufasha gusobanukirwa serivise z'itumanaho ukifashisha wishyura ibyo wahashye bitakugoye mu buryo bukoroheye ugatangamo amafaranga y'ibyo wafashe.

Abagabo babiri bahagaze umwe yambaye ikote ry'umukara ari kwereka undi ku itumanaho wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo n'ubururu, inyuma haparitse imodoka y'umukara.

Imbere y'ikidari, hahagaze abantu benshi baje gukoresha serivise z'itumanaho: kubitsa, kubikura, kohereza amafaranga kuri bagenzi babo bayakeneye.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho hahagaze abantu babiri umugabo wamabye ikote ry'umukara n'umukobwa urimo kumufasha wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Abagenzi babiri barimo kwishyura ababatwaye bakoresheje itumanaho bahagaze ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo abishyura bambaye udupfukamunwa dusa umuhondo.

Ahatangirwa serivisi z'itumanaho hari umutaka, abantu batandukanye harimo abagore, abana, abagabo bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'amakoboyi.

Ku kazu gato gatangirwaho serivise z'itumanaho hariho nimero ushobora kwifashisha mu gihe ugiye kwishyura amfaranga y'ibyo wafashe.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho, imiryango irafunguye, mo imbere harimo umugore hanze hari uugabo uri kumwitegereza ku ruhannde haparitse imodoka iri mu ibara ry'ubururu.

Umuntu ufite itumanaho mu ntoki afite ibyo ari kuyikoresha iruhande hari akabati kariho irange ry'ubururu hasi hari sima yijimye.

Inzu itangirwamo serivise z'iyumanaho, icyapa kigusobanurira uko wakishyura ibyo waguze birimo ibiribwa, ibinyobwa bitandukanye bitakugoye.

Icyapa cyagufasha gusobanukirwa serivise z'itumanaho ku buryo ushobora kuba wakwishyura mu buryo butakugoye ukoresheje itumanaho ryawe ukishyura ibyo waguze mu buryo bworoshye.

Ahatangirwa serivise z'itumanaho, hahagaze abantu babiri: umugore umwe n'umugabo umwe, wambaye umupira ufite amabara y'umuhondo ndetse n'ingofero ifite amabara y'umuhondo.

Akazu gato gatangirwamo serivisi z'itumanaho gafunguye amadirishya, harimo umugabo wicaye, yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara, n'umugabo uhagaze hanze ufite itumanaho mu ntoki.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abagore babiri umwe arimo araseka, afite itumanaho mu ntoki, yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Ahantu hatangirwa serivisi z'itumanaho, hari umugore urimo uraseka, ufite icyapa mu intoki, ushobora kubona imibare yagufasha kwishyura amafaranga bitakugoye.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, umugabo uhagaze ufite ikibo mu ntoki gifite amabara y'icyatsi ndetse n'umukara, umugore wicaye uri imbere ya mudasobwa afite ibyo arimo ararebaho.

Ahatangirwa serivise zitumanaho abakozi bicaye kuri murandasi, abandi bicaye kuntebe zisanzwe zifite amabara y'umuhondo, bategereje guhabwa ubufasha.

Ni ahatangirwa serivisi z'itumanaho, uhabwa serivisi ni umugabo, ayihabwa n'umukobwa ubona ko anezerewe no gusobanurira umugana.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abagabo babiri umwe yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, undi yambaye umupira ufite ry'umukara ndetse n'utukura afite bibiliya mu ntoki.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, isize amarangi y'umuhondo, hanze hahagaze abagabo bane, bategereje ubakira, babiri bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo n'amapantaro y'umukara.

Ni inzu itangirwamo serivise z'itumanaho hanze hari abantu batatu, abakobwa babiri bambaye imipira itukura, n'amajipo y'umukara n'umusore umwe uri kuruhande ufite igikapu imbere.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, harimo abagabo babiri umwe arimo araseka, undi yambaye umupira ufite ibara risa umuhondo, imbere ye hari mudasobwa.

Akazu gato gatangirwamo serivise z'itumanaho amadirishya arafunguye gafite ibara ry'umuhondo, mu imbere harimo intebe n'umuntu uyicayeho, hanze hari umugabo urimo guseka wambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ipantaro y'ikoboyi

Ikirango kigaragaz serivise zikorerwa kuri murandasi, hariho abagaore babairi bari guseka umwe arimo aragurisha undi aje gutwara ibyo yaje kugura.

Icyapa gifasha abantu kubona serivisi zitangirwa kuri murandasi. Aho ushobora gushyiraho ibikorwa byawe bikwamamariza, ukabona abakiriya bitakugoye.

Icyapa kigufasha gusobanukirwa serivise zitangirwa kuri murandasi, ushobora kubona ibiciro bitakugoye, ukagenda ugiye kugura uzi neza amafaranga uri buze kwishyura.

Icyapa kerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi. Gifasha abantu bamwe n'abamwe bakenera kuza guhahiraho ibintu bigiye bitandukanye birimo ibikoresho.

Ahatangirwa serivisi zikorerwa kuri murandasi aho ushobora kugura igicuruzwa kikaba cyakugeraho mu buryo bworoheje kandi utuje uziko kiri bukugereho ntankomyi.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'ibitaka, ifite ibara ritukura, hari abagabo babiri bayihagaze impande, umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati irimo amabara atukura, ihetse isanduku.

Ahatangirwa serivise zo kuri murandasi, kuba wagurisha cyangwa ukagura, harimo abakobwa babiri n'umuhungu umwe, umukobwa umwe yambaye ishati y'umuhondo, igitambaro cy'umukara, imeza isize ibara ritukura.

Umuntu wishimye cyane wambaye ishati irimo ibara ry'icyatsi ufite ibiribwa mu ntoki birimo karoti, avoka, amavuta, ibitunguru. Iruhande rwe hari ipikipiki ihetse akabati.

Ikirango kerekana, serivisi zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kugurira no kugurisha, ibintu bimwe na bimwe birimo imyambaro, ndetse ukaba wabonaho n'ibiciro byabyo, bikakorohera kuba wagira icyo uguraho.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ushobora guhaha. Hari icyapa cyagufasha kuhayoboka, neza ukaba waza guhahahira ibiribwa.

Ikinyabitende giparitse ku muhanda umugabo uhagaze uhetse agasanduku yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi ku ruhande hari igipangu gifite ibara ry'ivu.

Igishushanyo kerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kuba washyiraho ibicuruzwa byawe amasaha ndetse nibindi bikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye akagenda umenya ibiciro bitakugoye.

Ipikipiki iparitse mu muhanda wa kaburimbo, ihetse agasanduku kanditseho amagambo, uyihetse yambaye ikote risa umukara n'ipantaro.

Ni icyapa cyamamaza ibikorwa kuri murandasi, kugira ngo ubibonye aze akoresheho serivisi zitandukanye, zo kugurisha no kugura ibikoresho bimwe na bimwe.

Ikirango kiranga serivise zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kuba waguriraho ibiribwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, harimo; inyama zitetse, iziseye, n'izidaseye.

Icyapa kigufasha kwamamaza ibikorwa byawe kuri murandasi aho ushobora gushyiraho ibitaramo wateguye abantu bakaba bahagera bitabagoye bakareba n'ibiciro waba washyizeho.

Icyapa ndanga kigufasha kubona serivise zikorerwa kuri murandasi aho ushobora guhahira cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe birimo inyumvamajwi, inkweto ndetse n'intebe zo munzu.

Imodoka iparitse ifite ibara ritukura iriho icyapa kerekene serivise zitangirwa kuri murandasi, ndetse na nimero z'itumanaho wabahamagaraho igihe ubakeneye.

Icyapa ndanga kerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kuba wahahira cyangwa ukagurishiriza ibintu bigiye bitandukanye, harimo iby'itumanaho, abakobwa babiri barimo guseka.

Ikirango kiranga serivisi zitangirwa kuri murandasi, ushobora guhahiraho imyenda itandukanye y'abagore, harimo amakanzu, amajipo, amashati, ukaba wakwambara neza ukaberwa.

Ni ahantu ushobora guhahira ukoresheje murandasi, ushobora kubonaho nimero zabo ushobora kubavugishaho, ukoresheje itumanaho bakaba bakugezaho ibyo wabashije guhaha.

Icyapa kikwereka ukaba wabasha gusonubakirwa serivise zikorerwa kuri murandasi hariho umukobwa wicaye urimo uraseka ufite itumanaho mu ntoki wambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu.

Icyapa ndanga cyerekana serivise zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kumenya ibiciro by'ikiguzi wakishyura ubashije kuguraho, imikufi yo kwambara ku kuboko n'ibindi bitandukanye birimo n'ibikoresho byo mu rugo.

Icyapa ndanga kerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kuba wagurisha, cyangwa ukaba wagura ibintu bigiye bitandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bigurishirizwa kuri murandasi n'ibiciro bybyo harimo amashakoshi y'anagore, amakanzu, amakote n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa ndanga cyerekana serivise zitangirwa kuri murandasi. Aho ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe, n'ibiciro ubigurishirizaho. Umuguzi akaba yabobona bitamugoye.

Icyapa kiranga serivise zitangirwa kuri murandasi. Aho ushobora kugurira ibikoresho bimwe na bimwe, hakaba hariho na nimero, ushobora kuba wabaza amakuru yose ukeneye kumenya.

Amapikipiki aparitse mu muhanda wa kaburimbo abayatwaye bambaye amashati afite ibara ritukura, banari impande y'amazu abiri afite amabati atukura ku ruhande hari ibiti.

Ikirango kiranga serivise zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kugura ukanagurisha, ibicuruzwa byawe, ukaba waboneraho n'abantu baguhera ku giciro kiza wowe wifuza

Ipikipiki ihagaze hanze y'igipangu gisa icyatsi, abagabo babiri bafashe ku gasanduku, umwe yambaye agapfukamunwa gasa umukara, ishati ririmo amabara atukura ndetse n'ipantaro.

Inzu igurishirizwamo ihahirwamo ibitu bitandukanye, harimo inyenda y'abagore n'iy'abagabo hanze haparitse imodoka isize irange ry'ubururu.

Ipikipiki iparitse mu muhanda wa kaburimbo ifite amabara y'ubururu ihetse agasanduku umusore wicaye wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi.

Icyapa kigufasha gusobanukirwa ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, aho ushobora kuba wageza ibicuruzwa byawe ku bantu babikeneye, ukoresheje imodoka.

Icyapa ndanga kerekena serivisi zikorerwa kuri murandasi aho ushobora kugura ibikoresho bitandukanye, hariho umugore wambaye ishati y'umweru urimo uraseka.

Ikirango cyerekana serivisi zikorerwa kuri murandasi, aho ushobora kuguriraho ibikoresho harimo; iby'abanyeshuri, amakaramu, ndetse na za mudasobwa.

Rukururana ifite amapine y'imbere n'ay'inyuma iparitse kuri kaburimbo, ifite amabara abiri atandukanye, umuhondo n'ubururu, nta muntu n'umwe uyihagaze iruhande.

Icyapa cyagufasha gusobanukirwa serivise zitangwa kuri murandasi aho ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe ukaba wabona abaguzi babigura mu buryo bworoshye bitakugoye.

Icyapa ndanga cyerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kugurisha ukanagura, ukamenya n'ibiciro by'ibyo washaka kuhagurira.

Icyapa ndanga kerekana serivise zikorerwa kuri murandasi aho, ushobora kumenya ibiciro by'icyo ugiye kuhagurira, yaba ibikoresho byo murugo cyangwa ibiribwa byo guteka bitandukanye.

Ipikipiki iparitse mu muhanda w'amabuye, ihetse agasanduku, uyitwaye ayihagaze inyuma, yambaye ishati ifite ibara risa icyatsi kibisi.

Inzu igurishirizwamo ibiribwa ushobora kuza guhahira ukagura ibitoki n'ibindi bigiye bitandukanye aho babibika bifie amabara y'umuhondo ndetse n'atukura.

Icyapa kerekana ibigurishwa kuri murandasi, ibyo bikoresho bikaba birimo za mudasobwa, itumanaho kugira ngo ubikenera aze abirebeho abe yabigura.

Ahakorerwa ubucuruzi bukorera kuri murandasi ushobora kugurishirizaho ukanaguraho igikoresho cyose wakenera cyaba icyo mu nzu, cyaba n'icyo kwitwaza mu ntoki nk'amasakoshi ndetse n'imyenda.

Icyapa cyerekana serivise zitangirwa kuri murandasi ushobora guhahiraho, itumanaho , amashakoshi y'abagore n'ibindi bitandukanye

Icyapa ndanga kigufasha gusobanukirwa uko wagurishiriza kuri murandasi, ibicuruzwa byawe bigiye bitandukanye bikaba byagufasha kubona abaguzi mu buryo bwihuse.

Icyapa ndanga cyerekana serivise zikorerwa kuri murandasi, aho ushobora kuba wagurishiriza ibikoresho birimo itumanaho n'ibindi bigiye bitandukanye.

Icyapa cyagufasha gusobanukirwa na serivise zikorerwa kuri murandasi, ukaba washyiraho ibicuruzwa byawe byo kugira ngo ababasha kubigura babe babibona bitabagoye hamwe n'ibiciro.

Umusore wishimye cyane ufite ibiribwa mu ntoki, harimo karoti, avoka, ibitunguru, amavuta, yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi iruhande rwe hari ipikipiki ihetse agasanduku.

Icyapa ndanga cyagufasha kubona serivise kuri murandasi, umuntu wicaye w'umugore wambaye ipantaro y'ivu ndetse n'agapira gasa ubururu ufite itumanaho mu ntoki.

Icyapa kiranga serivisi zikorerwa kuri murandasi, aho ushobora kugurira ibiribwa birimo inoryi, karoroti, imineke, amashumi bikaba byakugeraho bitakugoye.

Icyapa kiranga serivise zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kugura ibiribwa bitandukanye harimo inyama z'inkoko, izisanzwe z'inka, amashu n'inyanya ndetse n'ibitunguru.

Icyapa ndanga kerekana serivise zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora kugurisha no kugura ukamenya n'ibiciro, bugufi inkweto zifite ibara ry'umutuku n'uzambaye.

Icyapa kigufasha kureba serivise zikorerwa kuri murandasi ukaba wagura ibintu bitandukanye uzi ibiciro n'ukugurisha mukavugana mu buryo bworoshye.

Umugore ufite itumanaho mu ntoki riri kwaka icyatsi ku ruhande hari irange risa igitaka uteze igitambaro kirimo amabara y'umweru.

Ipikipiki itwawe n'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, uhetse agasanduku gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hari ibyatsi bisa icyatsi.

Icyapa ndanga kigufasha kubona serivisi zikorerwa kuri murandasi, aho ushobora kwamamarizaho ibikorwa byawe bigiye bitandukanye n'ibiciro byabyo, ababigana bakabibona mu buryo butabagoye.

Icyapa ndanga kigufasha gusonanukirwa ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi, aho ushobora kugurishiriza no kugura ibikoresho bigiye bitandukanye birimo mudasobwa, itumanaho ndetse n'intebe zo mu nzu.

Ipikipiki nyinshi ziparitse mu muhanda zifite amabara atandukanye, icyatsi, izitukura, zihetse udusanduku dufite umweru hejuru , ku ruhande umutuku, ku ruhande hakikijwe n'icyapa.

Kumurika imideli no kwerekana imyambaro hagamijwe guhahira kuri murandasi ibicuruzwa birimo imyenda, imiti, inkweto, bya kinyarwanda, imijyanishirize y'imyambarire n'imisatsi n'ubwiza bwo mu maso ku bagore, ibikinisho by'abana, na bimwe mu bikoresho byo kwa muganga.

Ushobora gukoresha murandasi uhaha cyangwa ugurisha, imyenda inkweto amabafuriya ibikombe, hanze hari moto iparitse n'indabo z'icyatsi n'ibikarito biri kuruhande.

Moto iparitse ihetse umuzigo uri mu ibara ritukura, hejuru hariho agapfunyika gasa kaki.

Ipikipiki itwawe n'umuntu hariho agasanduku gafite amabara atandukanye umukara ndetse n'umuhondo, haruguru yayo hari ibiti birimo amashami menshi.

Icyapa ndanga cyerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi, ushobora kugura cyangwa kugurisha ibikoresho bimwe na bimwe birimo mudasobwa ndetse n'itumanaho yagufasha.

Icyapa cyagufasha gusobanukirwa serivisi zikorerwa kuri murandasi aho ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe birimo iby'ibiribwa inyanya, karoti, pavuro n'imiteja ukaba wabasha kubishyikiriza abakiriya bawe bitabagoye.

Ahagurishirizwa kuri murandasi ibikoresho bimwe na bimwe ugurisha, ugurishwa handikishijwe amabara y'umutuku n'andi y'umukara y'ibiciro.

Icyapa kiranga serivise zikorerwa kuri murandasi, ushobora kugura no kugurisha ibikoresha byo murugo harimo firigo, inzoga, n'ibindi.

Icyapa ndanga kerekana serivise zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kwamamarizaho ibikorwa byawe bikagufasha kubona abaguzi byihuse.

Igishushanyo cyerekana serivise zitangirwa kuri murandasi, aho ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe ukabona ababikugurira bitakugoye no mu buryo bworoheje bwo kubagezaho ibyo ukora.

Icyapa cyagufasha gusobanukirwa ubucuruzi bubera kuri murandasi wifashishije imodoka ndetse n'umusore urimo uraseka wambaye ingofero n'umupira w'ubururu.

Ahagurishirizwa ibikoresho bimwe na bimwe harimo amatara, intebe n'ibindi, handikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umweru ku cyapa gitukura.

Icyapa cyerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kubonaho ibiciro by'ikiguzi ushobora gutanga ugiye kugura ibikoresho bigiye bitandukanye, byaba ibyo mu nzu ndetse n'ibiribwa.

Icyapa ndanga, kigufasha gusobanukirwa serivisi zitangirwa kuri murandasi, hariho umukobwa ufite imisatsi myinshi urimo guseka, ufite itumanaho mu ntoki.

Inzu ikorerwamo serivise zo kugurisha no kugura imyenda itandukanye hariho icyapa ndanga cyagufasha kuhayoboka neza.

Icyapa ndanga kerekana ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi aho ushobora guhahira guhahira ibintu bimwe bigiye bitandukanye ukaba nawe wabasha kuhagurishiriza ibicuruzwa byawe.

Ipikipiki ihagaze ahantu hamwe ihetse agasanduku, umugabo urimo uraseka cyane wambaye ipantaro y'umukara n'umupira utukura ku ruhande hari urukuta.

Ipikipiki iri mu muhanda umugabo uyitwaye yambaye ipantaro y'ikoboyi, n'umupira urite ibara ritukura hirya ye hari ibyatsi ndetse n'igihu.

Ipikipiki itwawe iri mu muhanda ihetse isanduku ifite ibara ry'umuhondo n'utukura, hirya yaho hari ibiti byinshi birimo amashami menshi.

Igare ritwawe n'umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi ahetse isanduku, ku ruhande hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyerekana serivisi zitangirwa kuri murandasi aho ushobora gufata ibicuruzwa byawe ukaba wabijyana mu bihugu bitandukanye, ukabonayo abakiriya babasha kubigura bitakugoye.

Umugore uhagaze yishimye, wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi weguye agasanduku ari kugira ibyo akuramo kugirango abashe kuba bifite mu ntoki abijyane.

Icyapa ndanga cyerekana serivise zitangirwa kuri murandasi, ushobora kuguriraho ibikoresho bimwe na bimwe by'ubwiza, abagore, imisatsi ndetse n'imikufi yo mu ijosi.

Amapikipiki abiri yegeranye aparitse mu muhanda ahetse udusanduku tubiri, hirya yaho hari ibiti byuzeyemo amashami menshi ku ruhande hari ipoto'

Umushoferi wari utwaye ipikipiki, uhagaze mu muhanda urimo amabuye, wambaye ipantaro y' ikoboyi n' umupira w'ibara ry'icyatsi, uhetse agasanduku inyuma.

Ikirango kikwereka uko wakoresha murandasi ukoreraho ibintu bitandukanye, nko kuba wakwandikira nk'umuntu ugategereza akanya gato akaba yagusubiza nawe ukabona kumwoherereza ubundi butumwa.

Amapikipiki ane aparitse ahantu hamwe ku muhanda wa kaburimbo, ahetse amasanduku afite ibara ritukura, ku ruhande hari urukuta ruriho ibara ry'umuhondo, hari n'ibiti. Ashinzwe kugeza ku bantu ibyo bayatumye.

Icyapa kigaragaza serivise zitangirwa kuri murandasi, kugira ngo uje kuyaka wese abe yabasha kwisanga, akabona icyo aje kureba.

Ikirango kerekana ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi aho ushobora kuhagurira ibikoresho bimwe bigiye bitandukanye harimo imisatsi, imyenda, amashakoshi y'abagore ndetse n'inkweto.

Icyapa gisobanura ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi, ushobora gutumizaho ibyo ushaka kuba waguraho, harimo ibiribwa, amashu, imineke, inyanya, avoka.

Amapikipiki ane ari ku murongo aparitse mu muhanda wa kaburimbo ahetse udusanduku dufite ibara ritukura, imbere yayo hari igipangu kirimo igiti gifite amashami menshi

Icyapa cyagufasha kwamamariza kuri murandasi. Hariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, amavuta yo kwisiga, umukobwa urimo uraseka ufite umusatsi mukeya.

Icyapa kerekana ubucuruzi bubera kuri murandasi, aho ushobora kugura ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda y'abagore, itumanaho, hariho n'ibiciro bigufasha gusobanukirwa neza.

Ipikipiki iparitse ku muhanda w'amabuye, umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi, ryandikishijweho amagambo y'umweru.

Ikirango kerekana serivise zitangirwa kuri muramdasi ushobora guhahiraho ibikoresho bimwe na bimwe harimo imuyambaro, inkweto, ibikoresho by'umuriro n'ibindi.

Ikirango kerekana ubucuruzi bubera kuri murandasi bishobora kugufasha kuba washyiraho ibyo ucuruza bakaba babasha kukugurira abandi babikeneye.

Inzu nini itangirwaho serivisi z'ibyumanaho ifite amarangi y'umuhondo munsi yaho haparitse amapikipiki menshi ariho abayatwaye ndetse n'imodoka nazo ziri aho hafi.

Moto n'umutwazi wayo ahagaze hafi yayo, impande z'umuhanda wa kaburimbo, yegereye icyapa ndangahantu, afite umuzigo agiye gutwara, yambaye umwambaro w'akazi urimo ibara ry'icyatsi.

Ubucuruzi bukorewa kuri murandasi ariko ibyo waguzeho bikaba byakugeraho muburyo bworoshye, hakoreshejwe ipikipiki. Umukobwa uri kwakira ibyo yatumije n'umugabo uri kubimuha.

Icyapa kiranga serivise zitangirwa kuri murandasi aho ushobora kugurisha no kugura ibikoresho bitandukanye harimo amashuka ndetse n'ibiryo by'inyamaswa.

Amapikipiki ari ku murongo ari mu muhanda wa kaburimbo umwe ahetse umugenzi w'umugore wambaye agashati gafite ibara ry'igitaka. Undi uri imbere yambaye umupira w'umweru.

Ipikipiki iparitse ihetse agasanduku gafite ibara ry'ubururu, uyitwaye yambaye umupira ufite ibara ry'umukara, hirya hari ibiti birimo amashami menshi.

Icyapa cyagufasha, kuba washyira ibicuruzwa byawe kuri murandasi cyangwa ukaba wabihagurira, bikagufasha kugeza kure n'abandi bakamenya ibicuruzwa byawe bakaba bakugurira.

Icyapa ndanga gifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, gishobora kuba cyagufasha kuba hari aho wakandikira muri mudasobwa umuntu akaba yagusubiza ukabona ibyo yakwandikiye.

Icyapa ndanga kigufasha gusobanukirwa serivise zikorerwa kuri murandasi aho ushobora kwamamarizaho ibicuruzwa byawe bigiye bitandukanye abaguzi bakaba baza kugura babonaho ibiciro bitabagoye.

Icyapa ndanga cyagufasha kubona serivisi zikorerwa kuri murandasi ukaba wagurishirizaho ibicuruzwa byawe ukanaguriraho icyo wabona uhakeneye nawe cyagufasha.

Icyapa ndanga kiriho inzu ikorerwamo serivisi zo kuri murandasi hari imeza nini ifite ibara ryijimye iyo nzu nta muntu uyirimo.

Icyapa kiranga serivise zikorerwa kuri murandasi, hariho umuntu w'umugabo wambaye umupira ufite w'umutuku n'ingofero y'umutuku urimo guseka.

Ipikipiki iparitse ku muhanda, ifite ibara ritukura, ihetse agasanduku k'ubururu, hariho ku ruhande inzu isize irangi ry'ubururu n'umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara.